Minisiteri y'ubuzima ikomeje gukora ubukangurambaga mu bijyanye no kurandura indwara, zikomoka ku mirire mibi, ikunze kwataka abana bakiri batoya.

Mu Rwanda haracyari ikibazo cy'abaturage batava kw'izima ngo bareke gukoresha amazi mabi, kandi Leta ihora ibiyama gukoresha amazi atemba cyangwa se amazi y'ibiziba kuko akenshi aba arimo imyanda, kandi akaba ashobora no kubatera uburwayi.

Impuguke mu bijyanye n'ubuzima, zihurira hamwe zikungurana ibitekerezo ku bintu bijyanye no kunoza imitangire ya serivisi ndetse no kwita ku bantu baza bagana ibitaro bose.

Leta y'u Rwanda, ikomeje umushinga mwiza wo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu rwego rwo kugira ngo barusheho guhangana n'ikibazo cy'indwara zikomoka ku mwanda. Ayo mazi, akaba azifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo kugira isuku.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira ababyeyi bose bafite abana bato, kubasuzumisha kwa muganga uburwayi ubwo aribwo bwose kandi n'igihe babona abana babo, bagaragaza ibimenyetso by'uburwayi, bakihutira kubajyana kwa muganga, kurusha uko babavuza mu giturage.

Leta y'u Rwanda iracyahangayikishijwe n'ikibazo cy'abaganga bakeya bakora mu nzego z'ubuzima kuko byaje kugaragara ko abarwayi benshi bahurira kwa muganga bagatinda kubona serivisi bitewe n'ikibazo cy'ubwinshi bwabo.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera ingufu mu bikorwa bijyanye no gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose. Kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko mu myaka yashize amazi yari ikibazo gikomeye mu Rwanda.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje kwita ku kibazo cy'indwara z'ibyorezo, zikomeje kugenda zatakaka abaturage mu buryo butandukanye. Bityo rero abakozi bo muri minisiteri y'ubuzima bahurira hamwe bakaganira ku ngamba zigomba gufatwa kugira ngo babashe kurwanya byorezo bitandukanye.

Leta y'u Rwanda irashishikariza abanyarwanda bose ibikorwa bijyanye n'amasuku kugira ngo barusheho guhangana n'indwara z'ibyorezo ziri kwaduka muri iyi minsi kandi leta irakomeza gushishikariza abaturarwanda bose kugira kandagira ukarabe.

Hari gahunda igezweho mu Rwanda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose; ibi kandi bizafasha mu kurandura indwara zikomoka ku myanda, ndetse n'indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Mu myaka yashize ikibazo cy'amazi cyari ikibazo gikomereye abaturage ariko ubu Leta y'u Rwanda igenda irushaho kugikemura, aho yashyizeho gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage kandi ikayabegereza bikaborohera kuyavoma.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje gutanga amahugurwa ku bantu batandukanye hirya no hino mu Gihugu, bakora mu nzego zijyanye no gutanga serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane abajyanama b'ubuzima kugira ngo barusheho kwita ku buzima bw'abaje babagana.

Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ikora ibikorwa bitandukanye, hirya no hino ku Isi mu rwego rwo kwamamaza igihugu cy'u Rwanda, ishishikariza abakerarugendo kuza gusura igihugu cy'u Rwanda.

Imiryango mpuzamahanga yo mu bihugu bitandukanye ihurira hamwe ikiga ku buryo bwo kongera ingengo y'imari ikoreshwa mu mashami y'ubuvuzi kugira ngo barusheho kunoza serivisi zitangwa mu buvuzi.

Leta y'u Rwanda ndetse na minisiteri y'ubuzima ihangayikishijwe n'umubare mukeya w'abaganga batanga serivisi z'ubuvuzi, kuko usanga abarwayi benshi birirwa bicaye bategereje guhabwa serivisi, bityo bakaba banarembera no ku bitaro cyangwa se ku kigo nderabuzima.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irashishikariza abaturage bose gukaraba intoki kenshi gashoboka ku munsi bakoresheje amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'indwara zikomoka ku mwanda.

Leta y'u Rwanda, ikomeje kubaka inyubako zigezweho, nziza kandi zijyanye n'iterambere, zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi kugira ngo harushweho kunoza imitangire ya serivisi ku bantu baza bagana ibitaro byose byo mu Rwanda.

Abaturage bose bafite abana bakiri batoya barasabwa kwitabira gahunda zibagenewe bakajyana abana kwa muganga, bagahabwa imiti ndetse n'inkingo zose uko biteganyijwe na gahunda ya leta.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose bafite abana bakiri batoya, kwitabira gahunda za leta zo kujyana abana kwa muganga, bakabakingiza kandi bakaba n'indi miti yose ibafasha kurwanya indwara zitandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje gahunda yo kugenda itanga amahugurwa ku baganga batandukanye, bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi, ndetse no mu nzego zijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage, kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga.

Leta y'u Rwanda muri iyi minsi, ishishikajwe na gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage kugira ngo barusheho kugira isuku ndetse no kugira ngo biborohereze muri gahunda yo kurandura indwara zikomoka ku mwanda, hifashishwa ayo mazi mu gukaraba intoki kenshi gashoboka.

Leta y'u Rwanda ishishikajwe no gukwirakwiza amazi meza mu baturage cyane cyane hibandwa mu ngo zituye mu byaro kuko aribo bakunze kugerwaho n'ingaruka zo gukoresha amazi mabi.

Leta y'u Rwanda yashoye amafaranga menshi mu kubaka ibikorwa remezo cyane cyane ibijyanye n'imihanda kugira ngo yoroshye ibijyanye n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa ndetse n'imihahirane ku masoko atandukanye.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irashishikariza abagore bose batwite kwitabira gahunda yo kwipimisha kwa muganga kugira ngo bamenye uko ubuzima bw'umwana bumeze mu nda.

Leta y'u Rwanda, ikomeje gushyira ingufu mu kwagura ibikorwa bitandukanye, ndetse no kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ndetse no kwagura amasare akorerwamo inama zitandukanye, ziga ku bibazo byugarije inzego z'ubuzima mu gihugu.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ihangayikishijwe n'ubuzima bw'abana bakiri batoya. Bityo rero, bari mu mushinga mwiza wo gukwirakwiza ubufasha butandukanye hirya no hino mu Gihugu ku bana bakiri batoya, kugira ngo babashe kurandura ikibazo cy'indwara zikomoka ku mirire mibi ku bana bakiri bato.

Leta y'u Rwanda irakangurira abaturage bose kwimakaza umuco wo kugira isuku, bakaraba intoki kenshi gashoboka ku munsi kandi bifashishije amazi meza n'isabune.

Leta y'u Rwanda ikomeje umushinga mwiza wo gukwirakwiza amazi mu baturage b'u Rwanda bose, haba baherereye mu mpande zo mu mijyi ndetse no mu byaro hose. Kugira ngo babashe kugira isuku barusheho guhangana n'ikibazo cy'indwara zikomoka ku mwanda.

Ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda bwagaragaje ko mu myaka yashize abaturage bose batabonaga amazi meza bityo bigatuma bahura n'ikibazo cy'uburwayi bukomoka ku mwanda, ni muri urwo rwego rero Leta yafashe gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira ababyeyi bose ndetse n'abaturage bose bafite abana batoya, kwitabira gahunda zijyanye no kubapimisha kandi bakitabira n'ibikorwa bijyanye no kwitabira umunsi w'igikoni mu midugudu yabo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abaturage bose kwirinda gukoresha amazi mabi cyangwa se amazi y'ibidendezi kuko atera uburwayi kandi bikaba bigira ingaruka ku buzima bw'abaturage.

Leta y'u Rwanda ifite gahunda nziza yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose, ni gahunda yo kugira ngo babashe guhangana n'indwara z'ibyorezo, aho umuturage wese araza yifashisha amazi meza n'isabune, akaraba intoki kenshi gashoboka ku munsi.

Leta y'u Rwanda, ikomeje ibikorwa byo gukwirakwiza amazi meza mu baturage kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko mu myaka yasize, mu Rwanda hari harimo ikibazo cy'amazi. Aho wasangagaga mirongo itanu ku ijana, bakoresha amazi mabi bityo bikabaviramo kwandura indwara zitandukanye.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose kwirinda kujya kwivuza amenyo mu mavuriro ya gakondo ahubwo irabakangurira kugana amavuriro yabugenewe kuko amavuriro ndetse n'ibitaro byabegerejwe.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakomeza gushishikariza abantu bose gukaraba intoki kenshi gashoboka ku munsi, hifashishijwe amazi meza ndetse n'isabune.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje ibikorwa byo gutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima, kugira ngo barusheho kunoza umurimo wabo bakora wo gutanga ubutabazi bw'ibanze mu baturage.

Leta y'u Rwanda ifite gahunda yo gukwirakwiza amazi mu baturage bose, buri muturage wese akagerwaho n'amazi meza, mu rwego rwo guhangana n'indwara zikomoka mu gukoresha amazi mabi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje gahunda yo kwagura serivisi zitangwa mu nzego z'ubuzima ndetse no kwegereza ibitaro n'amavuriro abaturage bose, haba abatuye mu mujyi ndetse no mu byaro.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje gutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima kugira ngo harusheho kunozwa serivisi zitangwa n'abajyanama b'ubuzima, mu baturage hirya no hino mu gihugu.

Mu Rwanda hakomeje gutangwa amahugugwa ku bantu batanga serivisi mu nzego z'ubuzima zitandukanye. Kandi ntitwakibagigwa ko abajyanama b'ubuzima ,uko iminsi igenda irushaho kwiyongera, ariko barushaho guhabwa amahugurwa, kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga mu baturage.

Leta y'u Rwanda ihangayikishijwe no kuba abaturage bose batabona amazi meza asukuye, bityo rero Leta yafashe gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage bose kwitabira ibikorwa bijyanye no gusuzumisha abana babo ndetse no kubafata ibipimo bitandukanye ari byo dusangamo ibipimo by'uburebure, ibipimo bijyanye n'ibiro ndetse n'ibipimo by'ubushyuhe bw'umubiri.

Hari ibikorwa byinshi bitandukanye Leta igenda ikora, cyane cyane yibanda ku bijyanye no gukwirakwiza amazi meza mu baturage, ibi kandi ibikora mu rwego kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'indwara z'ibyorezo.

Mu bice bimwe na bimwe bigize igihugu cy'u Rwanda haracyari ikibazo cy'ibura ry'amazi ahagije, ni muri urwo rwego rero leta iri gushyiraho gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira ababyeyi ndetse n'abaturage bose kwirinda gukoresha imirimo ivunanye abana babo. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abana benshi bo mu cyaro bakoreshwa imirimo ivunanye.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gutanga amahugurwa ku bantu bose batanga serivisi z'ubuvuzi, igenda ibasobanurira uburyo bakwiye kunoza umurimo wabo.

Minisiteri y'ubuzima m'u Rwanda ikomeje kugenda itanga amahugurwa ku bantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga kandi babashe no kunoza umurimo wabo.

Leta y'u Rwanda ikomeje umushinga mwiza wo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose bo mu Rwanda, haba abaherereye mu cyaro ndetse n'abaherereye mu mijyi kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'indwara zikomoka ku isuku nkeya.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje umushinga mwiza wo kugenda itanga amahugurwa ku bantu batandukanye bakora mu nzego z'ubuvuzi cyane cyane hitabwa ku bajyanama b'ubuzima na bo bakunze gutanga ubutabazi bw'ibanze ku baturage.

Leta y'u Rwanda ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima, bakomeje kugura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ndetse no kugura ibikoresho byifashishwa mu kunoza izo serivisi batanga.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje ibikorwa byo gutanga amahugurwa ku bantu bose bakora mu nzego z'ubuzima kugira ngo harusheho kunozwa serivisi zitangwa n'abaganga bose batanga serivisi z'ubuvuzi.

Imiryango mpuzamahanga ishinzwe kwita ku buzima bw'abatuye isi bose cyangwa se ku buzima bw'abantu ihangayikishijwe n'ibibazo by'indwara z'ibyorezo by'inzaduka biri gukwirakwira mu bihugu bitandukanye.

Mu myaka yashize mu Rwanda hari harimo ikibazo cy'ibura ry'amazi mu baturage cyane cyane abaturage batuye mu byaro, ariko ubu Leta yashyizeho gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, ubu ibibazo byabo bigenda birushaho gukemuka.

Leta y'u Rwanda ikomeje umushinga mwiza wo gukwirakwiza amazi ku baturage bose bo mu gihugu kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko mu myaka yashize abaturage bo mu Rwanda bari bafite ikibazo cy'amazi adasukuye bityo bikabatera uburwayi.

Abayobozi batandukanye bakora mu nzego zo hejuru muri Minisiteri y'Ubuzima, bakomeje kugenda basobanura neza uburyo bakenera ingengo y'imari kugira ngo babashe kwagura inyubako zitandukanye zitangirwamo serivise z'ubuvuzi ndetse banongere umubare w'ibikoresho byifashishwa n'abaganga.

Abakozi bose bakora muri Minisiteri y'Ubuzima bahurira hamwe bakaganira ku ngingo zitandukanye; zijyanye no gufata ibyemezo byo kongera ireme ry'ubuvuzi ndetse na serivise zitangwa mu ishami ry'ubuvuzi.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gutanga amahugurwa mu nzego zitandukanye, cyane cyane ku bajyanama b'ubuzima kugira ngo barusheho gutanga serivisi zinoze mu baturage kandi babashe no kubitaho uko bikwiye.

Leta y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'ubuzima, ikomeje gukora ubukangurambaga bujyanye no kwita ku bana bakiri batoya, kwirinda kubavunisha cyangwa se kubakoresha imirimo ivunanye, ahubwo bakarushaho kubitaho ndetse no kubafasha kugira isuku.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje gutanga amahugurwa ku bantu bose bakora muri serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kunoza imitangire ya serivisi batanga.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abaturage bose, kujyana abana babo kwa muganga bakabasuzuma ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo kugira ngo barusheho kwitabwaho uko bikwiye, kuko iyo bidakozwe usanga rimwe na rimwe abana bakura bafite amenyo y'ibihengekerane.

Leta y'u Rwanda, ikomeje kubaka inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, kugira ngo barusheho gutanga serivisi zinoze, zijyanye n'ubuvuzi. Kandi bashishikariza abaturage bose, kwitabira izi serivisi z'ubuvuzi, igihe bumva, batameze neza.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ihangayikishijwe n'ikibazo cy'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko iyo umuntu ativurije iyi ndwara iranamuhitana.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose, kunywa amazi afite isuku, kugira ngo barusheho guhangana n'ikibazo cy'indwara, zikomoka ku mwanda, ndetse n'imikoreshereze y'amazi yanduye.

Leta y'u Rwanda ikomeje ibikorwa by'indashyikirwa byo gukwirakwiza amazi meza ku baturage, kubera y'uko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko mu myaka yashize abaturage batari bafite amazi meza, bityo bigatuma bandura indwara zikomoka mu gukoresha amazi mabi.

Leta y'u Rwanda ikomeje umushinga mwiza wo gukwirakwiza amazi mu ngo z'abaturage, haba baherereye mu cyaro ndetse n'abaherereye mu mujyi, iyo gahunda bose izabageraho.

Abakozi bose bakora muri Minisiteri y'ubuzima bahurira hamwe bakaganira ku mitangire ya serivisi zitangwa mu nzego z'ubuzima, bakanategura amahugurwa ku bijyanye n'uburyo bwo kwita ku barwayi, ayo mahugurwa agahabwa abaganga bose.

Leta y'u Rwanda ikomeje umushinga mwiza wo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bose haba abaherereye mu byaro cyangwa se no mu mijyi kugira ngo barusheho guhangana n'ikibazo cy'indwara zikomoka ku mwanda hifashishijwe ayo mazi meza ndetse n'isabune.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gahunda yo gukora ubukangurambaga ku bintu bijyanye no kurwanya indwara ziterwa n'imirire mibi mu baturage, cyane cyane izi ndwara zikaba zibasira abana bakiri bato.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yafashe umwanzuro wo gukorana n'ikigo cya UNICEF kugira ngo barusheho kwita ku mikurire y'abana bakiri batoya, ndetse no kurandura indwara zikunda kwibasira abana bakiri batoya.

Leta y'u Rwanda iracyahangana n'ikibazo cyo kubura kw'amazi mu gihugu ariko yafashe ingamba zo gukwirakwiza amazi ku baturage haba abaturage bo mu mujyi ndetse n'abo mu cyaro.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje kwagura serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi, aho hagiyeho gahunda yo guhugura abaturage, bamwe na bamwe muri bo bagatozwa uburyo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze kuri bagenzi babo; muri abo bantu bahabwa amahugurwa, dusangamo icyiciro cy'abajyanama b'ubuzima.

Umuryango ku isi ushinzwe kubungabunga ubuzima bw'abaturage, uhangayikishijwe n'ikibazo cy'indwara z'ibyorezo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje ibikorwa by'ubukangurambaga, itanga n'amahugurwa isobanurira abaturage bose, uburyo indwara ya Ebola yandura ndetse n'uburyo bashobora kuyirinda.

Leta y'u Rwanda iracyahangayikishijwe n'ikibazo cy'amazi makeya mu gihugu. Ariko hafashwe ingamba zo gukwirakwiza amazi meza ku baturage bose, haba abaturage bo mu mujyi ndetse n'abaturage bo mu cyaro.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose babana na bagenzi babo bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kubimenyesha ababishinzwe kugira ngo batange ubufasha bw'ibanze kuri abo bantu kuruta uko bakigwa bababoheye iwabo mu rugo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje gutanga amahugurwa ku rubyiruko ndetse no ku bandi bantu bakora mu nzego z'ubuzima, ku bintu bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abaturage bose bafite abana bakiri bato kubitaho mu buryo bwose buhagije, bakabagaburira neza mbese bakabarinda igwingira bakabarinda n'imirire mibi kugira ngo batazagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bose bitabira amahugurwa yo kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bahabwa impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi z'ibyo bamaze iminsi bahugurwamo.

Leta ikomeje gukora ubukangurambaga ku bijyanye no kurandura ihohoterwa ry'abana ndetse no ku bijyanye n'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye ku baturage bose bo mu Rwanda kugira ngo bizabafashe mu kuzamura imibereho myiza yabo.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda, ijyanye no gutanga amahugurwa, cyane cyane ku bantu bakigera mu gihe cy'uburumbuke, ikabasobanurira ku bintu bijyanye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ibibazo byose biterwa n'indwara ya Korona virusi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abaturage bose gutangira amakuru ku gihe, igihe babona umuntu runaka, ubana n'uburwayi bwo mu mutwe, ashatse guhungabanya umutekano wa bagenzi babo. Bityo kandi Leta ikaboneraho no gutanga ubutabazi bw'ibanze, bakajyana abo bantu ku mavuriro.

Lta y'u Rwanda ikomeje gutanga amahugurwa ku baganga bakora mu byiciro bitandukanye kugira ngo barusheho gutanga serivise zinoze no mu bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje gukora ubukangurambaga, ku bintu bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse no kubaha serivisi inoze ndetse bakabitaho kugira ngo batabasha no kwangiza umutekano wa bagenzi babo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ifatanyije na Leta y'u Rwanda, bashyizeho umunsi ujyanye no kuzirikana ku bantu bose babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kandi bashyiraho na gahunda yo gukwirakwiza imiti ndetse no kwegereza ubufasha, abantu bose babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura imishinga ijyanye no kwita ku bana bakiri batoya, bakabaha ibintu bijyanye n'imfashabere kandi bakanabaha ibiribwa bitandukanye kugira ngo barusheho kurandura indwara ziterwa n'imirire mibi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ihangayikishijwe n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, buri kugenda bufata abaturage benshi batandukanye kandi ntitwakibagirwa ko inahangayikishijwe n'ikibazo cy'ibiribwa bikeya kandi ikaba ifite n'imbogamizi yuko abaturage bamwe na bamwe batazi gutegura indyo yuzuye.

Minisiteri y'Ubuzima ihora ikora ubukangurambaga ku bintu bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Kandi ikanamenyesha abaturage gutangira amakuru ku gihe, igihe babona hari umuntu ufite ikibazo cy'ubwo burwayi kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abantu bose bagana ibitaro, bagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi, kugenda bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde, kuba bakanduzwa na bagenzi babo, indwara zitandukanye.

Madamu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, na we agira uruhare mu gutanga amahugurwa mu bijyanye no kwita ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe.

Minisiteri y'Ubuzima, Ihangayikishijwe n'ibibazo bigenda byiyongera by'uburwayi bwo mu mutwe, uko iminsi igenda ihita, ni na ko abantu barushaho kwiyongera, bahura n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose gutanga ubufasha ndetse no kuba hafi y'abantu babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bakaba babafasha mu kubaha ubufasha bw'ibanze babageza ku mavuriro.

Minisiteri y'ubuzima m'u Rwanda ikomeje gukora ubukangurambaga, igenda isobanurira abaturage, ku bijyanye n'indwara yo mu mutwe cyangwa se indwara iri kwibasira ubwonko ku bantu bagiye batandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima, irashishikariza imiryango yose ndetse n'abantu babana na bagenzi babo, bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kubaba hafi kandi bakabaha ubutabazi bw'ibanze, bakabajyana mu bitaro kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuvuzi.

Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko ari ngombwa kongera serivise zijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo babashe kwitabwaho cyane kandi babashe no guhangana n'ikibazo cy'umubare w'abantu benshi ugenda wiyongera uko imyaka igenda ishira.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gukora ubukangurambaga ishishikariza abaturage ndetse n'ababyeyi bafite abana batoya, kubategurira indyo yuzuye ikubiyemo ibirinda indwara ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga.

Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo ikwirakwize serivisi z'ubuvuzi mu baturage, yakomoreye abigenga ndetse n'abikorera ku giti cyabo gushinga business zijyanye n'amafarumasi ndetse n'amakilinike yigenga.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose kugirira isuku amenyo yabo. Bifashishije ibikoresho bitandukanye, harimo umuti w'amenyo wabugenewe ndetse n'uburoso n'amazi meza.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose igihe babonye umuntu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bagatangira amakuru ku gihe, kugira ngo bahabwe ubufasha.

Abakozi bose bakora muri minisiteri y'ubuzima, bahurira hamwe bakaganira ku kibazo gisigaye cyibasira abaturage, kijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Bakareba ibisubizo ndetse n'uburyo bakifashisha mu gufasha abo bantu babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje gukora ubukangurambaga, ishishikariza abaturage bose gutanga amakuru ku bantu baba bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo bahabwe ubufasha bw'ibanze kandi babe banitabwaho ku nzego z'ubuvuzi.

Abantu bose bakora mu nzego z'ubuvuzi, ni ngombwa ko bategurarirwa inama, bagahabwa ibiganiro bijyanye na serivisi batanga kandi bakanasobanurirwa ku bijyanye no kunoza serivisi batanga, mu kazi kabo ka buri munsi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira ababyeyi bose bafite abana batoya kubajyana muri gahunda yo kubakingiza, bagafata inkingo zose uko bikwiye, kandi bakitabira n'izindi gahunda zashyizweho na leta kugira ngo abana babashe guhabwa za Shisha Kibondo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ihangayikishijwe n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe buri kugenda bwataka abantu hirya no hino mu gihugu, bityo rero abantu bose barasabwa kwitondera abantu babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kandi bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo abo bantu bahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, bamenyeshwa uburyo bakitabwaho ndetse n'uburyo bahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje gutanga amahugurwa ku bantu bose batanga serivisi mu nzego z'ubuvuzi, kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga kandi barusheho no kwita ku barwayi baje babagana.

Inzego z'ubuvuzi zimaze gutera imbere ku rwego rushimishije, aho usanga hari n'amakirinike atanga ubufasha bw'ibanze ndetse no mu kuganiriza abantu bihebye, bityo bakagaruka mu buzima busanzwe.

Ni ngombwa kwita ku bana bakiri batoya, bagahabwa ibyo bakeneye byose mu buzima bwabo kugira ngo babashe gukura neza kandi bikabarinda ibyago byo kuba bakandura indwara zitandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abaturage bose bo mu Rwanda kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se abafite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Ibi byaje kugaragara ko bamwe na bamwe mu bafite ikibazo cy'ubwo burwayi batitabwaho cyangwa se ngo bajyanwe kwa muganga.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje gutanga ubukangurambaga ku ndwara y'ubwonko ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo ikangurire abaturage bose, kumenya ibimenyetso byayo kandi n'igihe babonye umuntu ugaragaje ibyo bimenyetso, bamujyane kwa muganga ahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje gutanga amahugurwa ku bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bw'ubwonko cyangwa se no ku bafite indwara yo mu mutwe muri rusange.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gutanga amahugurwa ku bantu batanga serivisi mu nzego z'ubuzima cyane cyane abita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'abita ku nshingano zo kuganiriza abantu bafite ikibazo k'ihungabana.

Inzego z'umutekano na zo zigira uruhare mu gukora ubukangurambaga mu bintu bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kuko rimwe na rimwe iyo bigeze ku rundi rwego n'inzego z'umutekano zibyivangamo, uwo muntu akaba yajyanwa mu kigo cy'i Ndera kugira ngo arusheho kwitabwaho.

Abantu bose bageze mu za bukuru ni ngombwa ko bagira abantu babitaho, yaba ibikorwa bijyanye no kubagirira isuku ndetse no kubategurira amafunguro abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gikomeje gushishikariza abaturarwanda bose kwitabira serivisi zitangwa n'abaganga mu bitaro, kurusha uko abaturage bakomeza kwihutira kwivuza mu giturage.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje gahunda yo gutanga amahugugwa ku bijyanye no gukemura ibibazo by'abantu babana n'ubugwayi bwo mu mutwe, ndetse n'ibijyanye no kuganiriza abantu baba bihebye bagasubira mu buzima busanzwe.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ihangayikishijwe n'ikibazo cy'abantu bamwe na bamwe babana n'uburwayi bwo mu mutwe, bakaba badafite imiryango babarizwamo cyangwa se imiryango babamo bityo rero Minisiteri y'Ubuzima irashishikariza abaturage bose, gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abo bantu bahabwe ubufasha bw'ibanze.

Leta y'u Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima bakomeje kongera imbaraga mu buvuzi, cyane cyane ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo kuko hajeho n'impuguke zitanga amahugurwa ku baganga bakora mu cyiciro cy'ubuvuzi bw'amenyo.

Minisiteri y'Ubuzima, irashishikariza abaturage bose kwita ku menyo yabo bakayagirira isuku kandi igihe bumva amenyo yabo atameze neza, bakihutira kugana amavuriro kugira ngo abaganga babasuzume, barebe ikibazo afite.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturarwanda bose kwitabira serivisi zitangwa kwa muganga, kurusha uko bakihutira kujya kwivuza amenyo mu buvuzi bwa gakondo mu giturage kuko bishobora kubaviramo kanseri y'amenyo.

Abantu bose aho bava bakagera, barakangurirwa kugirira isuku amenyo yabo, bakayasukura neza bifashishije ibikoresho byabugenewe ari byo dusangamo umuti w'amenyo ndetse n'uburoso tutibagiwe n'abashobora gukoresha urudodo.

Minisiteri y'ubuzima, irakangurira abaturage bose, kwirinda kujya kwivuza mu giturage, ahubwo umuntu wese wumva afite ikibazo cy'amenyo, akihutira kwa muganga, kuko ariho hatangirwa, serivise zizewe.

Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gutanga amahugurwa ku baganga bo mu byiciro bitandukanye, cyane cyane abakora mu rwego rwo kuvura amenyo. Ibi kandi byaje kugaragara ko, uko barushaho guhabwa amahugurwa, ari na ko barushaho gutanga serivise zinoze.

Abantu bose barakangurirwa kungirira isuku amenyo yabo kuko ari igice gifite agaciro mu buzima bwabo, barasabwa gukoresha umuti wabugenewe, amazi ndetse n'uburuso.

U Rwanda narwo rumaze kugera ku rwego rushimishije mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho bageze ku rwego rwo kugira inzobere mu bijyanye no kuvura amenyo, kandi bigeze ku rwego rwiza, aho usanga banahabwa amahugurwa n'abaganga bo ku rwego rwo hejuru baturutse mu Mahanga.

Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na Leta y'u Rwanda, bakomeje ibikorwa byo kongera inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu kugira ngo babashe kunoza serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi, no kwita ku mubare w'abantu benshi baza babagana.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kwita kuri serivisi zitangwa mu mivurire y'uburwayi bw'amenyo, kandi ibi bigaragarira mu malaboratwari ndetse n'ibikoresho bite imbere byaguzwe byo kwifashisha mu buvuzi bw'amenyo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje gukora ubukangurambaga ku bijyanye no kwita ku isuku y'amenyo, kandi minisiteri y'ubuzima ikomeje no gutanga imiti ndetse n'uburoso, byose byifashishwa mu gusukura amenyo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakomeza gukangurira abaturage bose, kugirira isuku amenyo yabo, bakayitaho kandi bakayasukura bifashishije ibikoresho byabugenewe, ari byo dusangamo uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti wabugenewe.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu buvuzi bw'amenyo, aho usanga bagenda barushaho kugura ibikoresho byifashishwa n'abaganga bakora mu ishami ryo kuvura amenyo.

Minisiteri y'ubuzima, irakangurira abantu bose, bakora mu nzego z'ubuzima, cyane cyane abaganga, kugira ibitabo cyangwa se amakayi, bandikamo uburyo umunsi wose wagenze, abarwayi bakiriye, ndetse n'imiti batanze.

Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gushyira imbaraga mu bikorwa bijyanye no guteza imbere ubuvuzi bw'amenyo, aho Minisiteri y'Ubuzima yagiye yongera abaganga batanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo ndetse ikanagura ibikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje gukangurira abaturage bose kugirira isuku amenyo yabo bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso, kandi iranabashishikariza kujya gusuzumisha amenyo yabo kugira ngo bamenye uko amenyo yabo ahagaze.

Byamaze kugaragara ko abaturage bamwe na bamwe bamaze guhugukirwa ndetse no gusobanukirwa akamaro ko kwita ku menyo, bayakorera amasuku kandi bifashishije umuti wabugenewe ndetse n'uburoso.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje kongera ingufu mu buvuzi bujyanye no kwita ku menyo ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha, mu gihe hatangwa serivise z'ubuvuzi bw'amenyo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abaturage bose, kwita ku menyo yabo bayagirira isuku, bifashishije umuti wabugenewe ndetse n'uburoso kandi bakirinda gukuramo ibintu bishobora kuyangiza.

Leta y'u Rwanda, ndetse na minisiteri y'ubuzima, bakomeje kugenda batanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, cyane cyane ku bijyanye n'imisukurire y'amenyo. Hifashishijwe gukoresha ibikoresho byabugenewe, aribyo dusangamo umuti w'amenyo, ndetse n'uburoso bwabugenewe. Cyangwa se ukaba wakoresha urudodo.

ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'ubuzima, bugaragaza ko amenyo ari igice cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu, kandi kikaba ari n'igice cyangirika ku buryo bworoshye, iyo utabashije gukigirira isuku ku rwego ruhagije.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gukora ubukangurambaga ku bijyanye no guhugura abaturage akamaro k'amenyo ndetse no kuyakorera isuku, hakifashishwa ibikoresho byabugenewe aribyo dusangamo uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu buvuzi bw'amenyo, cyane cyane bigaragarira aho bagenda bagura inyubako zitangirwamo izo serivisi kandi bakarushaho no kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura amenyo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose kwitabira gahunda yo gusukura amenyo bifashishije umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo.

Leta y'u Rwanda, ikomeje kongera ingufu, mu bikorwa bijyanye no kubaka inyubako nyinshi zitandukanye hirya no hino mu gihugu, kugira ngo bongere serivisi, kandi begereze serivisi abaturage bose. Cyane cyane hongerwa imbaraga, no mu bijyanye, mu buvuzi bw'amenyo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ndetse na leta, bakomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Kandi ntitwakwibagirwa intambwe imaze kugerwaho, ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo. Abaganga babiminurije, bagenda batanga amahugurwa, kuri bagenzi babo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose kwita ku isuku y'amenyo yabo. Bakagirira isuku amenyo bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso hamwe n'amazi meza.

Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gushyira ingufu mu bikorwa bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo. Ni muri urwo rwego kandi Leta yahise iboneraho no gushyiraho gahunda yo kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura amenyo.

Minisiteri y'Ubuzima, ikomeje gushyira ingufu mu bikorwa bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo kandi bakomeje no gukora ubukangurambaga, bujyanye no kwita ku menyo ndetse no kuyakorera isuku, banamenyereza abaturage, gukorera isuku ameyo yabo, bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso.

Leta y'u Rwanda ikomeje gukangurira abaturage bose kugirira isuku amenyo yabo, bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo kugira ngo barusheho guhangana n'indwara zikunze kwataka amenyo.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage bose kwita ku isuku y'amenyo kandi bakanayabungabunga kandi iboneyeho no kumenyesha abaturage kwitabira gahunda yo kujya gusuzumisha amenyo yabo.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu buvuzi bw'amenyo kandi bakomeje no kwagura inyubako hirya no hino mu gihugu, zitanga serivisi zo kwita ku menyo ndetse hagurwa n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga iyo serivisi.

Amenyo ni igice cy'umubiri cy'ingenzi mu buzima bw'abantu, ni ngombwa kandi ko asigasirwa, akagirirwa isuku, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe. Muri ibyo bikoresho dusangamo; umuti w'amenyo wabugenewe ndetse n'uburoso ariko bamwe bakunze no gukoresha urudodo.

Minisiteri y'ubuzima mu rwanda irakomeza gukangurira abaturage bose kwita ku isuku y'amenyo bakayasukura neza bifashishije umuti w'amenyo wabugenewe ndetse n'uburoso n'amazi.

Ababyeyi hirya no hino mu gihugu barasabwa gutoza abana babo kugira isuku basukura amenyo kandi bakabatoza gukoresha ibikoresho byabugenewe ari byo dusangamo uburoso ndetse n'umuti w'amenyo wabugenewe.

Minisiteri y'ubuzima irashishikariza abaturage bose kwita ku menyo yabo bayagirira isuku, bifashisha ibikoresho byabugenewe aribyo dusangamo umuti w'amenyo wabugenewe ndetse n'uburoso.

Minisiteri y'Ubuzima, irashishikariza abaturage bose kwita ku menyo yabo kandi iranabashishikariza kuyakorera isuku uko bikwiye, hifashishijwe ibikoresho bitandukanye. Urugero dusangamo: umuti w'amenyo wabugenewe, korogate ndetse n'uburoso.

Leta ikomeje gukora ubukangurambaga ku bintu bijyanye no gusobanurira abaturage, kwita ku menyo yabo bakayakorera isuku bifashishije ibikoresho byabugenewe ari byo dusangamo uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abaturage bose kugirira isuku amenyo yabo, bagakora isuku basukura mu kanwa bifashishije umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo cyangwa se bagakoresha urudodo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje kwagura ibikorwa bitandukanye hirya no hino mu gihugu, bijyanye no kongera ndetse no kunoza serivisi, zitangwa mu nzego z'ubuvuzi bw'amenyo. Ibyo bikorwa dusangamo: ibikoresho byifashishwa n'abaganga bavura amenyo ndetse n'inyubako bifashisha.

Ni byiza ko abantu bose bageze mu za bukuru bagira umuntu ubaba hafi, akabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse akabitaho no mu bijyanye no kubakorera amasuku. Urugero, harimo kubafurira imyenda ndetse no kubategurira amafunguro barya.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje ibikorwa byiza by'indashyikirwa byo kwita ku bantu bageze mu zabukuru, dore ko yabashyiriyeho n'ibikoresho biborohereza mu ngendo zabo za buri munsi.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje kugenda itanga amahugurwa ku bintu bijyanye no kwita ku bantu bageze mu za bukuru, ndetse n'uburyo bagakwiye guhabwa serivisi haba mu nzego z'ubuzima ndetse no mu nzego zisanzwe.

Ni ngombwa ko abantu bageze mu za bukuru bahabwa agaciro mu bantu kandi bakanitabwaho cyane, bityo bakanagira n'umuntu ubaba hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi, akajya abafasha mu bintu bimwe na bimwe nko kubakorera amasuku ndetse no kubategurira amafunguro.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abantu bose babana na bagenzi babo bageze mu za bukuru kubaba hafi, bakabaha ibyo bakeneye, kandi bakabafasha no mu bikorwa bitandukanye byo kugira isuku.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abantu bose babifite mu nshingano kudatererana abantu bageze mu zabukuru ahubwo bakababa hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabafasha mu bikorwa bitandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ihangayikishijwe n'imiryango y'abantu bageze mu zabukuru, batagira abantu bagifite imbaraga kugira ngo babashe kubitaho, kandi babafashe no mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abantu bose bafite abantu bageze mu zabukuru ndetse n'ababana n'abantu bageze mu zabukuru, kubitaho neza bikwiye kandi bakabafasha mu bikorwa bijyanye no kugira isuku.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje ubukangurambaga mu baturage bose ibashishikariza kwita ku bantu bageze mu zabukuru, kandi Minisiteri y'ubuzima ikomeje no gukangurira abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi kwita ku bantu bageze mu zabukuru.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abantu bose bakora mu nzego z'ubuzima gutanga serivisi zinoze cyane cyane ku bantu bageze mu za bukuru, bakabitaho cyane uko bikwiye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje kurushaho gushishikariza abantu bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi, gukoresha neza ibikoresho bitangwa na Leta kugira ngo barusheho kunoza imitangire ya serivisi, ku bantu bose baza babagana.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abantu bose babifite mu nshingano, cyane cyane abakora muri serivisi z'ubuvuzi, kwita ku bantu bageze mu zabukuru, bakabaha serivisi zinoze kandi bakanabereka ko babishimiye.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abantu bose batanga serivisi mu cyiciro cy'urwego rw'ubuzima kugira ngo barusheho kunoza imitangire yabo ya serivisi, cyane cyane no kwita ku bantu baza babagana, ibi kandi bigaragara ko abantu bageze mu zabukuru iyo bahawe serivisi neza bituma bibongerera n'iminsi yo kubaho.

Abantu bageze mu zabukuru bahabwa ibikoresho by'ibanze byo kwifashisha biborohereza mu ngendo zabo cyangwa se aho bagiye hirya no hino mu rugo, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza.

Leta y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda bakomeje kwagura ubuvuzi ku bantu bose yaba abakiri bato ndetse n'abageze mu zabukuru, akarusho kandi abageze mu zabukuru bahabwa ibikoresho bibafasha kugenda harimo nk'inkoni, imbago ndetse n'utugare two kugenderamo.

Ni ngombwa ko abantu bageze mu zabukuru bagira abantu babitaho kandi bakagira abantu bababa hafi bakabaganiriza bakanabafasha mu bikorwa bitandukanye byo kugira isuku ndetse no kubategurira amafunguro yo kurya.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira abantu bose babana n'abageze mu zabukuru, kubitaho bihagije kandi bakabafasha muri gahunda yo kubakorera amasuku ndetse bakababa hafi kugira ngo batabasha kwiheba kandi bikanabongerera icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Ni ngombwa kwita ku bantu bageze mu zabukuru kuko bibongerera icyizere cyo kubaho kandi biba byiza iyo bafite umuntu ubaba hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje gushyira ingufu mu bikorwa byo gukora isuzuma ry'indwara y'umuvuduko w'amaraso kugira ngo babashe guhangana nayo, barebe ko bayirandura igacika.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje gushishikariza abaturage bose kwitabira ibikorwa bya siporo, kuko byagaragaye ko siporo ari ingenzi mu buzima kandi ifasha umuntu uyikora no kumurinda uburwayi butandukanye.

Ni ngombwa kwita ku bantu bageze mu zabukuru, bagahabwa serivisi nziza kandi zinoze, kandi ni ngombwa kwereka abantu bageze mu zabukuru ko ari abantu bafite agaciro gakomeye mu rwego rwo kubaremamo icyizere kugira ngo barusheho kugubwa neza.

Hari uburyo butandukanye bwo gukora ibikorwa bya siporo, hari uburyo siporo ikorwamo abantu basimbuka umugozi cyangwa se bakurura umugozi. Kandi hari n'ubundi buryo siporo ikorwamo abantu birukanka mu kibuga cyangwa se bakina umupira w'amaguru.

Umuntu ugeze mu zabukuru wese ni ngombwa ko agira abantu bamwitaho. Kandi igihe ageze kwa muganga agahabwa serivisi ku buryo bukwiye kandi bwishimiwe na buri umwe wese.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abantu bose bakora muri serivisi z'ubuvuzi, kwita ku baje babagana bakabaha serivisi zinoze, cyane cyane abageze mu zabukuru bakabaha ubufasha bukwiye..

Leta y'u Rwanda irakangurira abantu bose bakora mu nzego z'ubuzima, kunoza serivisi batanga kandi bakayitanga neza kandi barashishikarizwa kwita ku bantu bageze mu zabukuru bakabaha serivisi zinoze mu gihe baje babagana.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose kwitabira ibikorwa bya siporo, yaba abana bakiri bato, urubyiruko ndetse n'abageze mu zabukuru, kuko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko umuntu ukora siporo arushaho kumererwa neza kandi bikamurinda indwara zitandukanye urugero dusangamo umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'imitsi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, iri kugenda irushaho guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, aho bari kugenda batanga amashyiga ya kijyambere, urugero dusangamo cana rumwe ndetse n'amashyiga ya gazi.

Abantu bageze mu za bukuru ni ngombwa ko bitabwaho, bakerekwa urukundo kandi hakaba abantu babababa hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo barusheho kwitabwaho kandi bagirirwe n'isuku.

Minisiteri y'ubuzima irakomeza gushishikariza abantu b'igitsina gore kugira uruhare ndetse no kwitabira ibikorwa bijyanye no kubungabunga ubuzima cyangwa se kugira uruhare mu mitangire ya serivisi zijyanye n'ubuzima.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gutanga amahugurwa ku bijyanye no kwita ku mibereho y'abaturage ndetse no gutanga serivise zinoze mu nzego z'ubuvuzi.

Inzego zitandukanye z'ubuzima zikomeje kugenda zikora ubukangurambaga zibutsa abantu bose batanga serivisi z'ubuvuzi, kurushaho kunoza umurimo wabo kandi no gukora akazi kabo bagakunze kugira ngo barusheho gutanga serivisi zinoze.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje ibikorwa byinshi, bigamije kongera ingufu mu bikorwa byo kubungabunga ubuzima bw'abaturage ndetse no kunoza serivisi zitangwa n'abakora mu nzego z'ubuvuzi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje gukangurira abaturage bose, kujya kwa muganga bagafata inkingo zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana n'icyorezo cy'ubushita.

Leta y'u Rwanda ikomeje gukora ubukangurambaga ku ndwara ya kanseri, hari amoko menshi atandukanye ya kanseri, dusangamo kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri ishobora gufata amagufwa.

Abakozi batandukanye bakora mu nzego ndetse no muri Minisiteri y'Ubuzima, bahurira hamwe bakicara bakaganira, bakungurana ibitekerezo ku ngamba zitandukanye zafatwa mu kurandura ndetse no guhangana n'icyorezo cy'Ubushita.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira urubyiruko rw'u Rwanda ,kwirinda virusi itera Sida, kandi inabamenyesha ko urubyiruko arizo mbaraga z'ejo hazaza.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje gahunda y'ubukangurambaga, ijyanye no guhugura abaturage bose, ku bijyanye no kurandura burundu, kanseri y'ibere, ikunda kwibasira abantu b'igitsina gore.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose kugana ibitaro igihe bumva bafite ubugwayi, aho kurindirira kugira ngo bajye kwivuza ari uko ubugwayi bwabo bwamaze kubashegesha.

Ibihugu byose ndetse n'imiryango ishinzwe ibidukikije ku isi, yihuriza hamwe bakizihiza umunsi ujyanye no kubungabunga ibidukikije ndetse hagafatwa n'ingamba zo kubibungabunga.

Abakozi batandukanye bakora muri minisiteri y'ubuzima, barakangurira abaturage bose, kwitabira serivisi zitangwa n'ubuvuzi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, kandi bakababuza gukoresha imiti ya kinyarwanda, kuko ishobora kubangiriza ubuzima.

Leta y'u Rwanda ikomeje gukora ubukangurambaga mu baturage bayo bose, ibabwira gahunda ijyanye no kurandura burundu indwara ya Diyabete, baragenda bamenyesha abaturage bose ibitera indwara ya Diyabete kugira ngo babashe kuyirandura burundu.

Mu rwego rwo guhangana ndetse no kurwanya indwara zikomoka ku mwanda, leta y'u Rwanda yashyizeho ibikoresho cyane cyane ku bitaro ndetse no hirya no hino mu gihugu, byifashishwa batereramo imyanda kugira ngo hirindwe ikibazo cyo kunyanyagiza imyanda ahabonetse hose.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gukora ubukangurambaga ku bijyanye no kurandura burundu kanseri y'inkondo y'umura ikunze kwibasira abantu b'igitsina gore, bityo rero minisiteri y'ubuzima irashishikariza abantu b'igitsina gore bose kujya kwa muganga bagahabwa inkingo za kanseri y'inkondo y'umura.

Mu bihugu byo muri Afurika hakomeje kongegwa ingufu mu bijyanye no guteza imbere uburezi, kugira ngo barebe ko ibihugu bya Afurika na byo byazagera ku iterambere rishimishije kandi rirambye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje gukora ubukangurambaga ku bijyanye no kurwanya indwara ya SIDA, hatangwa ibisobanuro bijyanye n'uburyo bw'uko yandura ndetse n'uburyo umuntu yakwirinda iyi ndwara.

Ku rwego mpuzamahanga n'imiryango itandukanye ishinzwe ubuzima ihurira hamwe mu nama bakaganira ku bibazo byugarije ubuzima ku isi hose ndetse bagafata n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage.

Abaminisitiri bashinzwe minisiteri z'ubuzima mu bihugu bitandukanye muri Afurika, bahurira hamwe bakaganira ku cyorezo cy'indwara ya sida, bagafata ingamba kandi bakanahuza ibitekerezo ku buryo iyo ndwara yakwirindwamo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje ibikorwa byiza by'indashyikirwa byo kugenda batanga amahugurwa ku rubyiruko ndetse no kubagavu ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.

Ishami rishinzwe ubuzima ku isi ari ryo Owemesi rishishikajwe no gukora ubukangurambaga ku ndwara y'icyorezo cya koronavirusi ikangurira abaturage bose uburyo bashobora kwirinda icyo cyorezo.

Ishami rishinzwe ubuzima ku isi hose ari ryo OMS, rishishikajwe no gukangurira urubyiruko rwo muri Afurika guhagurukira kwirinda ndetse no kurwanya indwara ya virusi itera sida.

Ishami ry'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi ari ryo OMS, riri kugenda rizenguruka ku isi hose rikora ubukangurambaga ku bijyanye n'indwara z'ubwonko ndetse n'uburyo ubwo burwayi bushobora kwitabwaho, bukavurwa bukaba bwakira.

Leta y'u Rwanda ndetse na minisiteri y'ubuzima, bakomeje ibikorwa by'ubukangurambaga mu kurwanya ndetse no kurandura burundu kanseri zitandukanye, cyane cyane kanseri y'inkondo y'umura ikunda kwibasira abantu b'igitsina gore.

inzego z'ubuvuzi zimaze gutera imbere aho abaganga bakora muri izi nzego bifashisha ibikorwa by'ikoranabuhanga mu gihe bari gutanga serivisi zubuvuzi ku bantu bose baje babagana Inzego z'ubuvuzi zimaze gutera imbere, aho abaganga bakora muri izi nzego bifashisha ibikorwa by'ikoranabuhanga, mu gihe bari gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu Bose baje babagana.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yafashe ingamba zikomeye mu buryo bwo guhangana no kurandura burundu indwara zo mu mutwe, cyangwa se no gufasha abantu babana n'uburwayi bwo mu mutwe.

Abayobozi bo mu Rwanda batandukanye, bakomeje kugenda bakora ubukangurambaga ku bintu bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'ubumuga cyangwa se ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bagenda batanga gahunda y'ukuntu abo bantu bakitabwaho.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abaturage bose, kwita ku menyo yabo, bayagirira isuku bifashishije umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo. Bityo bakarushaho kuyakorera isuku, ku buryo buhagije.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abaturage bose, kwitabira gahunda yo kujya kwa muganga bagahabwa urukingo rw'icyorezo cy'Ubushita kugira ngo babashe guhangana na cyo bakirandure burundu.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje kongera serivisi zitangwa mu bitaro hirya no hino mu gihugu, hibandwaho kongera umubare w'abaganga ndetse no kongera umubare w'ibitaro.

Leta y'u Rwanda, yafashe ingamba nyinshi zitandukanye, mu bijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abantu, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ishyiraho ikigo, ndetse ishyiraho n'amasantere atandukanye yo kwakirariho abantu bakorewe ihohoterwa, bakabaha ubutabazi bw'ibanze.

Mu rwego rwo kunoza serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi, Minisiteri y'ubuzima ifatanyije na leta y'u Rwanda, bakomeje kongera umubare w'inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse banongera umubare w'ibikoresho bikenerwa kugira ngo barusheho kunoza izo serivisi.

Minisiteri y'ubuzima m'u Rwanda ikomeje kongera inyubako hirya no hino mu gihugu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kandi bakomeje no kongera ibikoresho byifashishwa n'abaganga.

Hirya no hino ku Isi, ibikorwaremezo bihangayikishije cyane, cyangwa se bikenewe cyane n'ibikorwa remezo bijyanye n'inyubako z'ubuvuzi, aho usanga mu bihugu byose bitandukanye bagenda bagura amavuriro.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ifatanyije na Guverinoma cyangwa se na Leta y'u Rwanda, bakomeje kongera ingufu, mu kubaka inyubako zitandukanye hirya no hino mu Gihugu, kugira ngo barusheho gutanga serivisi zinoze, ku baturage bose.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera ingufu mu bijyanye n'inyubako z'ibikorwa bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo abaturage bose, haba abo mu mujyi ndetse n'abo mu cyaro begerezwe serivisi z'ubuvuzi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje kwagura ibikorwa by'inyubako byo gutangiramo serivisi z'ubuvuzi, aho hirya no hino mu gihugu yagiye yongera umubare w'ibigonderabuzima, bitangirwamo izo serivise.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera inyubako z'ibitaro, kandi inita ku bijyanye n'amacumbi y'abarwayi kugira ngo harusheho gutangwa serivisi zinoze, ndetse no kwita ku barwayi ku buryo bukwiye.

Mu rwego rwo kunoza serivisi zitangwa mu rwego rw'ubuzima, hakomeje kugenda hongerwa inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hanongerwa amacumbi ashobora gucumbikirwamo abarwayi badafite imbaraga cyangwa se badashobora kwitabwaho bari iwabo.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu mushinga wo kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu, kandi banarushaho kongera ibitanda bikenerwa mu mavuriro kugira ngo babashe gucumbikira abarwayi.

Minisiteri y'Ubuzima, ikomeje kongera ingufu, mu bikorwa bijyanye no kwita ku bana bakiri batoya, hakorwa isuzumwa ku bijyanye n'imibereho yabo ya buri munsi kugira ngo barebe niba ubuzima bwabo buhagaze neza.

U Rwanda rukomeje gushyira ingufu, mu bijyanye no kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse no kubaka amalabaratwari yifashishwa n'abaganga kugira ngo babashe gupima no gusuzuma indwara abarwayi bafite.

Urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara. Aho usanga hifashishwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, urugero dusangamo imashini cyangwa se za mudasobwa zifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi zinoze.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje kongera inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse no kongera ibikoresho byifashishwa n'abaganga, mu kunoza serivisi batanga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa mu nzego z'ubuzima, aho bagenda barushaho kugura ibikoresho biteye imbere mu bintu bijyanye no gupima cyangwa se no gusuzuma abarwayi, hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kwagura inyubako zifashishwa nk'ububiko bw'imiti kugira ngo itabasha kwangirika bityo ikarushaho gufatwa neza igahabwa abarwayi icyujuje ubuziranenge.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera ingufu mu bikorwa remezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, cyane cyane imihanda ndetse n'umuriro w'amashanyarazi. Ibi kandi bizafasha abaturage mu kuborohereza mu ngendo zabo za buri munsi ndetse n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa.

Leta y'u Rwanda yongeye inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi kugira ngo abaza bagana ibitaro barusheho kwakirwa neza kandi no guhabwa serivise zinoze.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera ibyumba bitangirwamo serivise cyane cyane ibyumba by'abagore byifashishwa mu gihe bari guhabwa ubutabazi bw'ibanze mu gihe cyo kubyara.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kandi banagura umubare w'ibikoresho byifashishwa n'abaganga, kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga.

Minisiteri y'ubuzima ifatanyije na leta y'u Rwanda, bakomeje umushinga mwiza wo kwagura inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, kugira ngo barusheho kunoza ndetse no kwita ku baturage bose baje bakeneye serivisi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ifatanyije na leta y'u Rwanda bakomeje umushinga wo kwagura inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, kugira ngo barusheho kwegereza serivisi z'ubuvuzi abaturage bose haba abaturage bo mu cyaro ndetse n'abo mu mujyi.

leta y'u rwanda ikomeje gushyira ingufu mu kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse no kugura ibikoresho byifashishwa mu kunoza serivisi zitangwa mu buvuzi. Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse no kugira ibikoresho byifashishwa mu kunoza serivisi zitangwa mu buvuzi.

Mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abantu bafatwa ku ngufu cyangwa se bagahohoterwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, yashyizeho ibigo bitandukanye mu Rwanda bitanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wafashwe ku ngufu.

Mu rwego rwo kunoza serivisi zitangwa z'ubuvuzi, minisiteri y'ubuzima yafashe gahunda yo kwifashisha ibitaro bya gisirikare kugira ngo na byo bifashe mu gutanga umusanzu wo gutanga serivisi zinoze ku baturage baba barwaye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje kongera ingufu mu bikorwa bijyanye no gukangurira abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, kurushaho kunoza serivisi batanga, bakira abaje babagana bose, yaba ari ababana n'ubumuga cyangwa se n'abafite ubundi burwayi butandukanye.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, kugira ngo barusheho kunoza serivisi zitangwa mu gufasha abagore mu gihe cyo kubyara, kugira ngo bagabanye ikibazo cy'impfu z'abagore n'abana bapfa mu gihe cyo kubyara ndetse no mu gihe cyo kuvuka.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushora amafaranga menshi mu bikorwa by'inyubako hirya no hino mu gihugu kugira ngo izo nyubako zifashishwe mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda, zimaze gutera imbere ku kigero gishimishije kuko haje kubakwa amalaboratwari menshi atandukanye, akorerwamo gusuzuma indwara zitandukanye z'abarwayi.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko mu Rwanda harimo ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso, iyi ndwara ikaba ifata abantu bose yaba batoya, urubyiruko ndetse n'abageze mu zabukuru.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje kwagura inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, izo nyubako dusangamo inyubako zikorerwamo ibikorwa bya siporo kandi izo nyubako zikaba zifite ibikoresho byose, byifashishwa n'abantu baje muri siporo.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kandi yashyizeho gahunda yo gutanga serivisi nta muntu n'umwe uhejwe, haba ari abantu babana n'ubumuga ndetse n'abatabana n'ubumuga bose bahabwa serivisi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ifatanyije na leta y'u Rwanda bakomeje kongera umubare w'inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu kugira ngo babashe gutanga serivisi zinoze hibandwaho kwagura inyubako kugira ngo babashe kwakira umubare mwinshi w'abarwayi baza bagana amavuriro.

Leta y'u Rwanda, ikomeje kwagura inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, kandi bakomeza no kongera umubare w'ibikoresho, byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, mu bitaro byose.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje kongera umubare w'inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwita, ku mibereho myiza y'abaturage ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kongera umubare w'inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi ndetse inongera ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kunoza serivise baha abaje babagana.

Ubufatanye buri hagati ya minisiteri y'ubuzima ndetse na Leta y'u Rwanda bukomeje gukora ibikorwa byinshi by'indashyikirwa hirya no hino mu Gihugu bagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse bongera n'umubare w'ibigo Nderabuzima.

Minisiteri y'ubuzima mu rwanda ifatanyije na guverinoma cyangwa se na leta y'u rwanda bakomeje imishinga itandukanye hirya no hino mu gihugu yo kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kunoza serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomereye kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu cyane cyane hibandwa ku ma laboratwari yifashisha mu gusuzuma uburwayi ndetse no gupima indwara ziba zafashe abantu batandukanye baba baje bagana abaganga.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje kongera umubare w'inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi mu Rwanda kandi banongera umubare w'ibikoresho bifashisha mu gutanga serivise z'ubuvuzi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ikomeje kongera inyubako hirya no hino mu gihugu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwita ku buzima bw'abaturage bose haba abaherereye mu byaro cyangwa se n'abaherereye mu mujyi.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako hirya no hino mu gihugu, izo nyubako zikaba zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, ibi kandi byaje kugaragara ko bifasha abaturage kuko serivisi zirushaho kubegerezwa.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu bikorwa bijyanye no kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ibikoresho bikenerwa n'abaganga kugira ngo barusheho kunoza izi serivisi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gahunda nziza yo kwagura inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, zikorerwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo babashe kwita ku mubare w'abantu bose baje babagana kandi babahe serivisi nziza.

Minisiteri y'ubuzima m'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse hanitabwaho no kongera ibyumba bacumbikiramo abarwayi.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kandi bakomeje no gushyira imbaraga mu kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma abarwayi.

Leta y'u Rwanda yongeye inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi kandi yongera n'ibikoresho bikenerwa muri izo nyubako kugira ngo hakomeze kunozwa imikorere ndetse n'imitangire ya serivise.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje kongera ingufu mu nzego z'ubuzima ndetse na serivisi zitangwa mu bitaro bitandukanye. Aho usanga leta ikomeje kwagura inyubako hirya no hino zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kandi bakongera n'ibikoresho bikoreshwa na tekinoloji mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu bijyanye n'inyubako zo gukorerwamo ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubuvuzi ku nzego zitandukanye.

Ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda, bwagaragaje ko mu Rwanda harimo ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso, iyi ndwara ikaba ifata buri umwe wese, yaba abana bakiri bato, urubyiruko ndetse n'abageze mu zabukuru.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, mu rwego rwo kugira ngo babashe kwegereza serivisi abaturage bose.

Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda yangura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse inongera umubare w'ibikoresho byifashishwa mu bitaro kugira ngo barusheho kunoza serivisi.

Leta y'u Rwanda yafashe umushinga mwiza, wo kugenda bagura inyubako zitandukanye zikorerwamo ibintu bijyanye n'ubuvuzi, mu rwego rwo kugira ngo babashe gukemura ikibazo cy'abarwayi benshi bahurira ku bitaro bakabura uko bahabwa serivisi nziza.

Mu rwego rwo gukwirakwiza serivisi zitangwa mu nzego z'ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima yeguriye ibigo byikorera ku giti cyabyo ndetse n'abashoramari kugira ngo bashinge amafarumasi yabo yigenga, ashobora gutanga serivisi mu baturage.

U Rwanda rumajije gutera imbere mu nzego z'ubuvuzi, aho usanga mu bitaro bimwe na bimwe bitandukanye bifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gusuzuma abarwayi kandi hakarushaho no gutanga serivise zinoze.

Leta y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, bakomeje kongera inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho no kongera imibereho myiza y'abaturage kuko buri muturage wese bizaba bimworoheye kugera ku ivuriro.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ifatanyije na Leta y'u Rwanda bakomeje umushinga mwiza wo kwagura inyubako hirya no hino mu gihugu, zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kunoza imikorere yabo ndetse na serivisi batanga mu nzego z'ubuzima.

Muri afurika hari ibigo bitandukanye, bishinzwe gutanga serivisi ndetse no gutanga amahugurwa ku bintu bijyanye no kurandura burundu indwara za infection, zataka amatungo cyangwa se n'abaturage.

Minisiteri y'ubuzima, ikomeje kwagura gahunda, yo gutanga inkingo zo kwirinda ibyorezo bitandukanye mu Rwanda. Haba ibyorezo bya Covid, ibyorezo by'ubushita, ndetse n'ubundi burwayi, buri kwibasira abaturage, muri iyi minsi.

Hari inyubako nyinshi zikomeje kubakwa hirya no hino mu gihugu, kugira ngo barusheho kunoza imitangire ya serivisi mu nzego z'ubuvuzi, kandi abaturage bose babashe kubonera serivisi z'ubuvuzi hafi yabo igihe bashakiye.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'inyidwara ya kanseri, kubera yuko byaje kumenyekana ko kanseri ihitana benshi niyo mpamvu bakomeje kongera ingufu mu buvuzi bw'iyi ndwara.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ifatanyije na Leta y'u Rwanda, bakomeje kwagura umubare w'ibyumba bitangirwamo serivisi ku babyeyi bagiye kubyara kugira ngo bagabanye ikibazo cy'ipfu z'abana n'imfu z'ababyeyi bapfa mu gihe cyo kuvuka.

Leta y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubuzima, bakomeje gushyira ingufu mu kunoza neza imitangire ya serivisi, nta n'umuntu n'umwe uhejwe, ibyo rero bizarushaho mu kunoza imitangire ya serivisi mu nzego z'ubuvuzi.

Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda, zimaze kugera ku rwego rushimishije kuko usanga ubumenyi bwariyongereye ku baganga bavura amaso, ibi kandi twavugamo ibijyanye no kubaga amaso bakayasukura bakayakuramo imyanda.

Leta y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubuzima, bakomeje kwagura ibikorwa bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwegereza ibitaro ndetse n'amavuriro abaturage bose bo mu Rwanda.

Minisiteri y'ubuzima hamwe na Leta mu Rwanda, bakomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kandi banongera umubare w'amalaboratwari akoreshwa kwa muganga kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, dukomeje kongera umubare w'inyubako zitangirwamo ubuvuzi ndetse na serivise z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu, kandi banongera umubare w'ibikoresho byifashishwa n'abaganga batanga serivise z'ubuvuzi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda hamwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, bakomeje kwagura inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse bashyira n'ingufu mu kugura ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi zinoze.

Mu rwego rwo kwagura serivisi zitangwa mu nzego z'ubuzima, Leta y'u Rwanda yahaye uburenganzira ibigo byikorera ndetse n'abashoramari bikorera ku giti cyabo kugira ngo na bo bagire uruhare mu bintu bijyanye no kubaka amafarumasi ashobora gutanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage.

Minisiteri y'ubuzima ihangayikishijwe n'ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso iri gufata abana batoya, urubyiruko ndetse n'abageze mu zabukur. Niyo mpamvu rero umuntu wese ugiye agana ibitaro mbere na mbere babanza bamufata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ifatanyije na Leta, bakomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa byo kugenda bagura inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi kandi bakanongera ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu kunoza serivise.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kongera ingufu mu bijyanye no kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Ntitwakwibagirwa kandi y'uko hagiye haguka serivisi zitandukanye, aho hatangwa serivisi zo kubaga haba abagore ndetse n'abantu b'igitsina gabo bafite uburwayi bwo mu nda.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwakira umubare w'abantu bose, baza babagana bakeneye serivisi z'ubuvuzi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje kongera ingufu mu bijyanye n'inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu, kugira ngo abaturage bose babashe kwegerezwa izo serivise z'ubuvuzi.

Mu nyubako zitandukanye cyangwa se mu byumba bitandukanye, usanga harimo ibitanda byifashishwa n'abaganga iyo basuzuma abarwayi, ibi rero ni ingirakamaro kuko bituma habaho kunoza serivisi zitangwa n'abaganga.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira ababyeyi bose bafite abana bakiri bato kwitabira gahunda yo kubajyana kwa muganga bagahabwa inkingo, kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'indwara z'ibyorezo zikunda kwibasira abana bakiri batoya.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira ababyeyi bose bafite abana batoya kubajyana ku mavuriro yabo bagahabwa inkingo zose, uko biba byaragenwe n'ababifite mu nshingano.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irashishikariza abantu bose bakora muri serivisi z'ubuvuzi cyangwa se abantu bose bakora mu kiciro cy'ubuvuzi, kuganiriza abarwayi ndetse no kubasura mu rugo iwabo igihe bibaye ngombwa kugira ngo barusheho gukurikirana uburwayi bwabo.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako hirya no hino mu gihugu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo abaturage bose begerezwe izo serivisi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu bikorwa by'inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo harusheho kunozwa gutanga serivisi muri iki kiciro cy'ubuvuzi.

Mu Rwanda hari inyubako nyinshi zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho hari inyubako zigezweho zishobora kwakira umubare munini w'abarwayi bityo bose bagahabwa serivisi bakeneye.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera inyubako zitandukanye hirya no hino mu gihugu, barushaho no kongera umubare w'abaganga batanga serivisi mu nzego z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kunoza imitangire ya serivisi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi ndetse no kongera ibikoresho byifashishwa mu kunoza imitangire ya serivise zijyanye n'ubuvuzi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira ingufu mu bikorwa bijyanye no kubaka inyubako, aha ni mu rwego rwo kugira ngo bagure ibitaro bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hagenda hongerwa n'umubare w'ibitanda bashobora kwakiriraho abarwayi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gutanga uburenganzira ku bigo byigenga, kugira ngo na byo bishore imari mu bikorwa bijyanye no kubaka amaforomasi yigenga ndetse n'amakirinike, kugira ngo abaturage bose babashe kubona serivisi z'ubuvuzi ku buryo bworoshye.

Leta y'u rwanda ifatanyije na minisiteri y'ubuzima, bahaye uburenganzira busesuye ibigo byigenga ndetse n'abantu ku giti cyabo gushora amafaranga mu bijyanye n'inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ibitaro byigenga ndetse na ma kiriniki.

Leta y'u Rwanda ifatanyije na minisiteri y'ubuzima mu Rwanda bakomeje kongera umubare w'inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu kugira ngo barusheho kunoza imitangire ya serivisi z'ubuvuzi no kwakira umubare w'abantu benshi baza babagana.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ndetse na Leta y'u Rwanda, bakomeje kwagura ibikorwa by'inyubako, zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kandi bakomeje no kongera ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kunoza serivisi neza.

Leta y'u Rwanda ikomeje kongera inyubako hirya no hino, zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo abaturage bose aho batuye haba mu mijyi cyangwa se mu byaro, babashe kugerwaho n'izi serivisi zitandukanye kandi hashyizweho na gahunda yo kongera ibitaro bicumbikira abarwayi

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako hirya no hino mu gihugu, zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kandi bakomeje no kugenda bashiramo ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi zinoze. Muri ibyo bikoresho dusangamo, ibikoresho byifashishwa n'abaganga bapima ibiro by'abana ndetse n'uburebure bwabo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakomeza gukangurira abaturage bose kwitabira gahunda y'ibikorwa bya siporo kuko byaje kugaragara ko abantu benshi badakora siporo bakunze kwatakwa n'indwara zitandukanye.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'abantu, aho dusanga abantu bamwe na bamwe bakora siporo nk'akazi kabo ka buri munsi kandi bakabihemberwa. Urugero dusangamo abakinnyi b'umupira w'amaguru ndetse n'abatoza baho.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abaturage bose, kwimenyereza ibikorwa bya siporo, ndetse no kunywa amazi, kenshi gashoboka, ku munsi, kuko byagaragaye ko amazi ari ingenzi mu buzima, bw'abantu.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko amazi ari ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko ibikorwa bya siporo ari ingenzi mu buzima, kuko bifasha umuntu ukora siporo kumurinda ingaruka zo kuba yakatakwa n'indwara zitandukanye, urugero dusangamo indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'imitsi.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage bose, kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi kandi bakanywa amazi meza asukuye atarimo imyanda, kuko byagaragaye ko amazi ari ingenzi mu buzima bw'umuntu, kandi akaba afasha impyiko mu kuyungurura amaraso.

Minisiteri y'Ubuzima irakangurira abantu bose kunywa amazi kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko umuntu wese unywa amazi arushaho kugira ubuzima bwiza kandi bikamwongerera kugira ubudahangarwa.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose bakora ibikorwa bya siporo, kuza bitabira ibyo bikorwa, ariko bakagenda bitwaje ibikoresho byabugenewe bishobora kubarinda igihe runaka bakoze impanuka.

Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abantu bamwe na bamwe basigaye batakariza ubuzima bwabo mu bikorwa bya siporo. Bityo rero, abantu bose bakora siporo barasabwa kwitwararika mu gihe bakora siporo kandi bagakora siporo bambaye ibikoresho byabugenewe byo kubarinda mu gihe runaka baba bakoze impanuka.

Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gukora siporo, abantu bamwe bakora siporo bakina umupira w'amaguru abandi bagakora siporo binanura baheta umugongo cyangwa se basimbuka umugozi.

Siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, uwo ari we wese yakenera siporo mu buzima kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza. Umuntu wese ukora siporo usanga umubiri we ukomeye kandi bimurinda kuba yarwara indwara zitandukanye arizo dusangamo umuvuduko w'amaraso cyangwa se indwara z'imitsi.

Mu bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima bugaragaza ko siporo ari ingenzi mu buzima bwa muntu, bityo bakaboneraho no gushishikariza abaturage bose kwitabira ibikorwa bya siporo.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose, kwitabira gahunda y'ibikorwa bya siporo kandi ikanabakangurira kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Mu nzego z'ubuvuzi, ndetse na serivisi zitangwa kwa muganga, zimaze kugenda zitera imbere ku kigero gishimishije, aho usanga abaganga bifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu gusuzuma uburwayi abaje babagana bafite.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abantu bose bitabira ibikorwa bya siporo kwambara ibikoresho byabugenewe ku buryo bishobora kubarinda mu gihe bakora impanuka bari gukora siporo.

Ni ngombwa ko umuntu wese ugize igikomere ku mubiri, yihutira kugana amavuriro bakamuha ubufasha cyangwa se ubutabazi bw'ibanze, kurusha uko yakihutira guhamura imiti y'ibyatsi, kuko ishobora kumutera kanseri.

Siporo ni ibikorwa by'ingenzi mu buzima bw'abantu kuko siporo ifasha mu kunanuka k'umubiri, kugira umubiri ukomeye ndetse no kugira ubuzima bwiza, siporo kandi ituma umuntu adashobora kurwara nk'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'imitsi.

Ibikorwa bya siporo bitandukanye, ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu wese, kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje yuko, umuntu ukora neza siporo, imugabanyiriza ibibazo byo kuba yakwandura indwara zitandukanye, urugero dusangamo, umuvuduko w'amaraso cyangwa se indwara z'imitsi.

Ibikorwa bya siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kuko bifasha mu kugira ubuzima bwiza kandi rimwe na rimwe n'abaganga bategeka abantu, kwitabira ibikorwa bya siporo kuko byarije kugaragara ko, siporo ishobora kuba umuti wo kuvura indwara zitandukanye, urugero dusangamo umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'imitsi.

Abantu bose barashishikarizwa kwitabira ibikorwa bijyanye na siporo, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko siporo ari ingenzi mu buzima, kuko bituma umubiri w'umuntu ukomera kandi bikamurinda kuba yarwara indwara zipfuye kubaho.

Leta y'u Rwanda irakangurira abaturage bose kwitabira gahunda z'ibikorwa bya siporo kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko umuntu wese ukora siporo mu buryo bukwiye, akarya neza kandi akanywa n'amazi asukuye arushaho kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri y'Ubuzima, irakangurira abantu bose kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko umuntu unywa amazi meza asukuye, arushaho kugira ubuzima bwiza kandi bigatuma n'impyiko ze zikora neza.

Hari ibikoresho byifashishwa n'abantu bose bashobora gutanga ubutabazi bw'ibanze. Muri ibyo bikoresho dusangamo: umukasi, inshinge, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko umuntu uwo ari we wese ukora siporo, akarya neza, akarya indyo yuzuye, akarya n'imbuto, arushaho kugira ubuzima bwiza kandi akanywa n'amazi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose, kwitabira ibikorwa bya siporo bitandukanye kuko ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko siporo ari ingenzi mu buzima bw'abantu bose.

Hari ibikorwa byinshi bitandukanye umuntu ashobora gukora mu gihe akora siporo. Ushobora gukora siporo winanura, ushobora gukora siporo uzamura amaboko hejuru, usimbuka cyangwa se ugakora siporo ukina umupira w'amaguru cyangwa se wirukanka ukora ka korosi mu muhanda.

Mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa bya siporo, Minisiteri ishinzwe siporo, iragenda irushaho gukangurira abaturage bose, kwitabira ibikorwa bya siporo kandi Minisiteri y'Ubuzima igenda irushaho gukwirakwiza ibikoresho mu baturage, byifashishwa mu gihe cya siporo.

Umuntu wese witabira ibikorwa bya siporo, arushaho kugira ubuzima bwiza bityo bikamurinda kuba yagira uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburwayi bw'imitsi. Minisiteri y'Ubuzima yakoze ubushakashatsi, igaragaza ko abantu bose bakora siporo bibafasha kurushaho kugira ubuzima bwiza kandi bikaba byiza iyo banyweye amazi nyuma y'iminota cumi n'itanu, bavuye mu gikorwa cya siporo.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko mu Rwanda harimo ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso, iyi ndwara kandi ikaba yibasira buri umwe wese ititaye ku kigero agezemo, yaba abakiri bato, urubyiruko ndetse n'abageze mu zabukuru.

Umuntu wese ukora siporo, akayikora neza kandi mu buryo bukwiye, akarya indyo yuzuye kandi akarya n'imbuto arushaho kugira ubuzima bwiza, ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko umuntu wese wakoze siporo akanywa n'amazi arushaho kumererwa neza.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose, kunywa amazi meza asukuye. Bakirinda kunywa amazi mabi kuko ashobora kubatera uburwayi butandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose kwitabira ibikorwa bya siporo bitandukanye, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko siporo ari ingenzi mu buzima bwa buri muntu wese.

Ubushakashatsi bwakozwe byaje kugaragara ko abantu benshi batitabira gahunda za siporo, bituma bigateza uburwayi butandukanye, bityo bagana ivuriro bagiye kwivuza bagatangira kubavura bifashishije ibikorwa bya siporo bitandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abaturage bose kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko amazi ari ingirakamaro mu mubiri.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira ababyeyi bose bafite abana, kujya bafata umwanya bakabananura, ibi bizabafasha gukura bameze neza, umubiri wabo unanuye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje kongera umubare w'ibikoresho byifashishwa mu bitaro hirya no hino mu gihugu kugira ngo barusheho korohereza abakora muri izo nzego, kunoza serivisi batanga.

Urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda, bumaze gutera imbere ku kigero gishimishije kuko usanga mu bitaro bitandukanye ndetse no ku bigo nderabuzima, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gupima ndetse no gusuzuma abarwayi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturarwanda bose kwitabira ibikorwa bya siporo bitandukanye, nk'uko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko siporo ari ingenzi mu buzima bwa buri wese.

Ibikorwa bya siporo ni ingenzi mu buzima, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko umuntu ukora siporo, adashobora kurwara indwara zitandukanye. Urugero dusangamo indwara z'imitsi ndetse n'indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Ibikorwa bya siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'abantu bakora siporo, aho usanga umuntu ukora siporo afite ubuzima bwiza kuko bimurinda kuba yarwara indwara zitandukanye, urugero dusangamo indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'imitsi.

Umuntu wese wagize ikibazo cy'imvune, iyo ageze kwa muganga bamuha ubutabazi bw'ibanze, bakamushyira barafu aho yavunitse kugira ngo bagabanye ingaruka z'uburibwe bukabije aba afite.

Minisiteri y'ubuzima irashishikariza abaturage bose kuza bitabira ibikorwa bya siporo, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi barwaye indwara zitandukanye, harimo umubyibuho ukabije, indwara z'umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburwayi bw'imitsi, kubera kudakora siporo zihagije.

Siporo ni ibikorwa by'ingenzi kandi byiza ku buzima ariko biba byiza, iyo umuntu ukora siporo, ayikora yitwararitse kandi akanayikora yambaye ibikoresho byabugenewe, bishobora kumurinda igihe yakoze impanuka ari gukora siporo.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko umuntu iyo arya neza akarya indyo yuzuye ikubiyemo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ndetse n'ibirinda indwara, akanakora siporo ituma arushaho kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni ibikorwa by'ingenzi mu buzima. Aho usanga umuntu ukora siporo mu buryo bukwiye arushaho kugira ubuzima bwiza. Kandi siporo ifasha umuntuyikora kutaba yakandura uburwayi butandukanye urugero dusangamo umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'imitsi.

Ubushakashatsi bwakozwe, bugaragaza ko umuntu ukora siporo mu buzima bwe bwa buri munsi, akarya indyo yuzuye, akarya imboga kandi akananywa amazi meza afite isuku, arushaho kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose kwitabira ibikorwa bya siporo, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu benshi basigaye bahura n'uburwayi kubera kudakora siporo.

Siporo ni ibikorwa by'ingenzi mu buzima bw'umuntu, kuko umuntu wese ukora siporo bituma agira ubuzima bwiza, kandi bimurinda no kuba yakandura indwara zitandukanye, urugero dusangamo: indwara y'umuvuduko w'amaraso, indwara y'imitsi, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi, kandi bakanywa amazi asukuye afite isuku kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje y'uko amazi ari ingenzi mu buzima bw'umuntu.

Urubyiruko rwose, rurashishikarizwa kwimenyereza kwitabira ibikorwa bitandukanye bya siporo, kuko siporo ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, ibi kandi bizabafasha mu kurwanya indwara zitandukanye zataka abantu badakora siporo, urugero dusangamo indwara z'umutima, indwara z'umuvuduko w'amaraso, ndetse n'indwara z'imitsi.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage bose kwitabira ibikorwa bya siporo, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu badakora siporo bakunda guhura n'ibibazo by'uburwayi butandukanye.

Hari ama pharmacy atandukanye, aho umuntu ashobora kujya kuguramo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo kandi ukaba waguramo n'imiti itandukanye cyane cyane nk'ibinini wakwifashisha mu kwivura indwara zitandukanye.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose, kwitabira ibikorwa bya siporo aho baherereye hose kuko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko umuntu wese witabira ibikorwa bya siporo, bimwongerera amahirwe yo kugira ubuzima bwiza.

Hari ibikorwa byinshi bitandukanye, kandi hari n'uburyo bwinshi butandukanye bwo gukoramo siporo, ushobora gukora siporo wirukaka mu muhanda, cyangwa se uzenguruka mu kibuga, ushobora no gukora siporo uryama hasi, ukananura amaguru ndetse n'amaboko.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira Abanyarwanda bose kwitabira ibikorwa bya siporo kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko siporo ari ingenzi mu buzima.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose bo mu Rwanda kwimenyereza kunywa amazi kandi si ibyo gusa, bakanywa amazi asukuye atarimo mikorobe kuko byaje kugaragara ko, amazi ari ingenzi mu buzima bw'umuntu.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose kwitabira ibikorwa bitandukanye bya siporo kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko siporo ari ingenzi ku buzima bw'umuntu kandi ko siporo ituma umuntu arushaho kugubwa neza.

Leta y'u Rwanda, irashishikariza abaturage bose, kwitabira ibikorwa bijyanye na siporo. Kandi iramenyesha abantu bose bitabira siporo, kurya neza bakarya indyo yuzuye, ndetse bakongeraho n'imbuto. Kandi irabakangurira no kunywa amazi asukuye, igihe basoje igikorwa cya siporo.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose gahunda yo kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi, kandi bakanywa amazi meza afite isuku kuko byaje kugaragara ko amazi ari meza ku buzima bw'umuntu kandi akaba afasha impyiko mu kuyungurura amaraso.

Leta y'u Rwanda yongeye ingufu mu bijyanye no gutanga ibikorwa remezo mu baturage, dusangamo imihanda, amashanyarazi, mbese urebye imihanda yabaye myinshi mu byaro ndetse no mu mijyi.

Hari inganda nyinshi zashoye amafaranga mu bikorwa bijyanye no gutunganya amazi, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko amazi ari ingirakamaro ku baturage. Urugero usangamo akandi ndetse n'inyange.

Siporo ikorwa mu buryo butandukanye ndetse no mu byiciro bitandukanye. Hari abakora siporo bidagadura abandi bagakora siporo mu marushanwa, abandi bagakora siporo mu kubyina.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira ababyeyi bose bagifite abana bato kubatoza ibikorwa bya siporo. Bakaza babananura amaboko, amaguru ndetse n'umugongo, mu gihe bakiri batoya.

Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko iyo umuntu ariye indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibiririnda indwara, nyuma agakora na siporo, akanywa n'amazi meza, arushaho kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje gushishikariza abaturage bose kwitabira ibikorwa bya siporo ndetse no kurya indyo yuzuye, harimo n'imboga kandi bakanywa n'amazi meza asukuye kuko ibi bizatuma barushaho kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ikomeje gushora amafaranga menshi, mu bintu bijyanye no kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse no kongera umubare w'ibitanda, baryamishaho abarwayi ndetse no kugura ibikoresho bifashisha mu kunoza serivisi.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage bose kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi kandi bakanywa amazi meza asukuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ibi byaje gutangazwa nyuma y'aho ubushakashatsi bukozwe bwagaragaje yuko amazi ari ingirakamaro mu buzima bw'umuntu.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage kuko byagaragaye ko umuntu ukora siporo arushaho kugira ubuzima bwiza kandi bikamurinda no kuba yarwara indwara zitandukanye.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abantu bose kunywa amazi kenshi gashoboka ku munsi, kuko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko amazi ari ingenzi mu buzima bw'umuntu.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abantu bose kujya bitabira ibikorwa bya siporo bitandukanye kuko byagaragayeko abantu bamwe na bamwe barwara indwara zitandukanye bitewe no kudakora siporo zihagije.

Siporo ni ibikorwa byiza kandi by'ingenzi mu buzima bw'abantu. Kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu bakora siporo bibarinda kuba bakandura indwara z'umuvuduko w'amaraso cyangwa se indwara z'imitsi.

Hari uburyo butandukanye bwo gukora siporo umuntu ananura intoki ndetse n'amaboko, mbese bigatuma utunyangingo tw'intoki dukora neza kandi tukagororoka, ibi bigatuma umuntu arushaho kumererwa neza.

Mu rwego rwo kwagura serivisi zitangwa mu buvuzi, Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda yagura inyubako zitandukanye ndetse no kugura ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi kugira ngo zirusheho kunozwa neza.

Hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa iyo umuntu ari mu gikorwa cya siporo. Hari inkweto zabugenewe umuntu yambara agiye muri siporo, kandi umuntu ashobora gukora siporo akina umupira w'amaguru cyangwa se agakora siporo asimbuka umugozi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irashishikariza abantu bose kwitabira ibikorwa bitandukanye bya siporo, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko siporo ari ingenzi mu buzima bwa buri muntu wese.

Minisiteri y'ubuzima irashishikariza abaturage bose kurya indyo yuzuye kandi bakarya n'imbuto uko bikwiye. Hanyuma bakitabira n'ibikogwa bya siporo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose kwitabira ibikorwa bya siporo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Bityo rero buri wese arasabwa byibuze kujya akora siporo rimwe ku munsi.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakomeza gushishikariza abantu bose kwitabira ibikorwa bya siporo kuko siporo ari ingenzi mu buzima kandi ikabafasha mu buzima bwa buri munsi kuko umuntu uyikora wese arushaho kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri y'ubuzima, irashishikariza abaturage bose kurya indyo yuzuye, ikubiyemo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ibimera byinshi byifashishwa ku buryo butandukanye, aho bimwe babifata bakabicisha mu nganda, bagakoramo imiti ishobora kwifashishwa n'abaganga.

Hari ubwoko bw'ibimera bwinshi butandukanye ndetse n'imbuto zitandukanye zishobora gukoreshwa nk'imiti mu rwego rwo kuvura indwara zitandukanye, ibi bimera kandi n'imbuto zitandukanye bishobora kwifashishwa n'abaganga cyangwa se n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, bakabinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera byinshi bitandukanye, byifashishwa n'abantu bakora muri minisiteri y'ubuzima cyangwa se intararibonye zikora mu cyiciro cy'ubuzima, bakifashisha ibimera bakoramo imiti, bakabinyuza mu nganda, hagasohoka imiti yujuje ubuziranenge.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose bafite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu, ko hari imiti yabugenewe cyangwa se amavuta yabugenewe yo kwisiga kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko imiti myinshi yifashishwa mu bitaro iba yarakozwe iturutse mu bimera bitandukanye, uretse ko ibyo bimera babinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge kandi yizewe.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose, kwitabira gahunda yo kurya imbuto neza kandi uko bikwiye kuko imbuto zifasha abantu bazirya kugira ubuzima bwiza ndetse no kugubwa neza.

Hari uburyo bwa gakondo bwifashishwa n'abaturage bakikorera imiti yabo ku giti cyabo. Aho bafata ibimera bimwe na bimwe bakabisekura bakabivanga na za tungurusumu.

Hari ibimera byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi byifashishwa n'abacurabwenge, bakabinyuza mu nganda bagakuramo imiti yujuje ubuziranenge, iyo miti ikaba yifashishwa mu gutanga service bavura abarwayi baje bagana amavuriro.

Ibimera bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, bakabyifashisha bakora imiti, bakabinyuza mu nganda kugira ngo haboneke imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Mu Rwanda ibimera byinshi bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi bakabikoramo imiti yo kwifashisha batanga serivisi z'ubuvuzi, bayinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibyatsi biri mu bwoko bw'umuravumba, byifashishwa n'abaturage mu kwivura indwara zitandukanye, ariko ntitwakibagirwa yuko inganda zifata umuravumba zikawutunganya zikawukoramo umuti wujuje ubuziranenge.

Inzego z'ubuvuzi mu Rwanda, zimaze gutera imbere ku kigero gishimishije, aho abaganga basigaye bifashisha uburyo bwo kongerera amazi cyangwa se isukari mu mubiri w'umuntu cyangwa se bakanamwongerera amaraso binyuze mu buryo butandukanye.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ubuvuzi bwifashisha ibimera, aho abanyabwenge bifashisha ibimera bakabinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge bakayifashisha bavura abaturage.

Ibimera byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaturage bivura indwara zitandukanye, ariko ubuvuzi bwamaze gutera imbere, bifashisha ibyo bimera bakabicisha mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera bitandukanye dusangamo n'ubwoko bw'inyarabasanya, byifashishwa mu komora ibisebe ariko amavuriro atandukanye, mbere yo kugira ngo bakoreshe ibi bimera, babanza babinyuza mu nganda bigasohoka ari imiti ifite ubuziranenge.

Ibimera byifashishwa muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aho inzobere mu by'ubuvuzi zifata ibimera zikabicisha mu nganda, bagatunganyamo imiti yujuje ubuziranenge.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi bifashisha ibimera bitandukanye, bakabinyuza mu nganda bityo bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera byinshi byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, bakabikoramo imiti yo kwifashisha batanga serivise ku bantu baje babagana bafite ikibazo cy'uburwayi, ariko imiti ikoreshwa n'abaganga iba yaranyujijwe mu ruganda, igatunganywa.

Hari ingamba zafashwe zijyanye no gutera ibimera bitandukanye, byifashishwa mu kongera ndetse no mu gukora imiti yifashishwa mu buvuzi.

Imbuto ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, kandi ni ngombwa ko buri muntu wese arya imbuto mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko bifasha kugabanya ibyago byo kuba warwara indwara zipfuye kubaho.

Hari ibimera bitandukanye byifashishwa mu nzego z'ubuvuzi, aho ibimera bimwe byifashishwa bakabinyuza mu nganda bakabitunganyamo imiti yujuje ubuziranenge.

Ubushakashatsi bwakozwe, bwagaragaje ko ibimera byinshi bitandukanye hirya no hino mu gihugu, ari byo dusangamo umuravumba, byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuzima, bakabicisha mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera byinshi byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi aho ibimera bimwe babikoresha ako kanya batabinyujije mu nganda n'aho ibindi bimera bakabyifashisha babinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera bitandukanye byifashishwa n'abaganga b'inzobere, bakabicisha mu nganda, bakabitunganya bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge. Iyo miti ikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'ibimera byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abavumbuzi ndetse n'abandi banyabwenge bakora mu nzego z'ubuvuzi, bagakoramo imiti igezweho, bakabinyuza mu nganda, bigasohoka bifite ubuziranenge.

Hari ibimera byinshi bitandukanye, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyo babikoresheje bidaciyemo mu ruganda icyo gihe bifatwa nk'aho ari ubuvuzi bwa gakondo ariko noneho iyo bikoreshejwe byaranyuze mu ruganda, bakabikoramo imiti yabugenewe kandi yujuje ubuziranenge icyo gihe babifata nk'aho byemewe n'amategeko.

Ibimera byinshi byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, bakabitwara bakabinyuza mu nganda bagakoramo imiti, hagasohoka imiti yujuje ubuziranenge yakifashishwa batanga serivisi z'ubuvuzi.

Ibimera ni ingenzi mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, aho ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko mirongo icyenda na karindwi ku ijana ibimera byifashishwa bakora imiti, bakabinyuza mu nganda bagakuramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera byo mu bwoko bw'imiravumba, byifashishwa n'abaganga, bakabicisha mu nganda bagakoramo imiti yabugenewe, kandi yujuje ubuziranenge. Bityo rero biba byiza iyo abantu bagannye amavuriro, bagahabwa imiti yujuje ubuziranenge.

Hari inganda zabugenewe zifata ibimera zikabihinduramo imiti ndetse igasohoka ari imiti ifite ubuziranenge, ibyo bimera urugero twatangamo ikimera cy'umuravumba.

Leta y'u Rwanda ikomeje gukora ubushakashatsi, ku ndwara ijyanye na amibe, kugira ngo barusheho no kugenda bashakisha imiti itandukanye. Kandi ikomeje no gukangurira abaturage kwitabira serivisi zitangwa n'ubuvuzi, kugira ngo babashe kuyirandura burundu.

Mu Rwanda harimo ibimera byinshi bitandukanye byifashishwa n'abanyabwenge bakora mu nzego z'ubuvuzi, ibi bimera kandi byifashishwa bakora imiti bakabinyuza mu nganda hagasohoka imiti imeze neza kandi yujuje ubuziranenge.

Hari ibimera byinshi bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi kugira ngo bakumo imiti itandukanye, ibyo bimera binyuzwa mu nganda bagakoramo imiti ifite ubuziranenge.

Hari imbuto nyinshi zitandukanye zikomoka ku bimera, izo mbuto zishobora kwifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye. Izo mbuto kandi zishobora kunyuzwa mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera byinshi, ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ibyo bimera byifashishwa mu gukora imiti uretse ko icyo bongeraho babinyuza mu nganda bigasohoka bifite ubuziranenge. Mbese bisohoka ari ibinini cyangwa se ubundi bwoko bw'imiti isukika.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, irakangurira abaturage bose, kwitoza kwambara udupfukamunwa kugira ngo babashe guhangana n'indwara z'ibyorezo zitandukanye kuko bimwe muri byo byaje kugaragara ko ubu burwayi bukwirakwira binyuze mu matembabuzi.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatanze ubwisanzure ku bashoramari ndetse n'abikorera ku giti cyabo mu gushora amafaranga mu bikorwa bijyanye no kubaka amafarumasi mashya kugira ngo barusheho gukwirakwiza serivise zitangwa n'ubuvuzi mu baturage bose.

Ibimera bitandukanye hirya no hino ku isi, byifashishwa n'abanyabwenge cyangwa se n'abantu bakora mu nzego z'ubuzima, bakabinyuza mu nganda bakabikoramo imiti yujuje ubuziranenge kandi byaje kugaragara ko, mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'imiti ikoreshwa kwa muganga, iba yarakozwe mu bimera.

Minisiteri y'ubuzima ikomeje gukangurira abaturage bose gukoresha imbuto neza uko bikwiye kandi bakanarya ibiryo bivanzemo ibitunguru kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kuko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ibitunguru bifasha kuvura indwara zitandukanye ndetse no kurwanya uburwayi bwandura mu myanya y'ubuhumekero.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu nzego z'ubuvuzi zitandukanye, aho bafata ibimera bakabinyuza mu nganda, bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge bityo ikaba yakifashishwa mu kuvura abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi butandukanye.

Ibimera bitandukanye byifashishwa n'ama clinic atandukanye ndetse n'inganda zitandukanye mu gukora imiti yabugenewe, bifashishije inganda kugira iyi miti isohoke yujuje ubuziranenge.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko imiti myinshi ikogwa iturutse mu bimera bitandukanye ndetse no mu mbuto zitandukanye, bakabinyuza mu nganda bikabyara imiti yujuje ubuziranenge.

Ibimera bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, bakabijyana mu nganda, bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge, bityo iyo miti ikaba yakwifashishwa mu kuvura abaturage.

Ibimera byifashishwa cyane mu rwego rw'ubuvuzi aho bimwe babyifashisha babinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge, mu gihe abaturage bo babyifashisha bitananyuze mu nganda bakabikoresha mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera by'ubwoko bitandukanye biri ku Isi, byifashishwa n'abaganga b'inzobere bakabikoramo imiti yo kuvura abaturage, babinyuza mu nganda bigasoka ari imiti yizewe kandi ifite ubuziranenge.

Ibimera ni iningenzi mu rwego rw'ubuvuzi kuko byifashishwa bakora imiti kugira ngo babashe kwita ku bantu bakeneye ubufasha, ibimera kandi bicishwa mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.